Abaturage barimo gusarura icyayi, kimwe mu bihingwa byoherezwa hanze y'igihugu bikinjiza amafaranga menshi mu guteza imbere u Rwanda.

Umworozi ari mu rwuri rwe, aragiyemo inka ze, zirimo kurisha, kugira ngo umukamo wazo wiyongere kandi n'ibimasa bise neza.

Avoka igihingwa cyuzuyemo intungamubiri, zasaruwe zisigaye gutarwa ngo zishye ziribwe n'abaturage.

Umugore uri mu murima arimo kuhira amashu, umurima we uzengurutswe n'ibiti byinshi birebire, harimo n'umurasire umufasha gukurura izuba mu murima.

Umugezi uca hagati y'imiririma ibiri uri munsi y'umusozi, umusozi uhinzweho n'abaturage.